Umugabo uri mu murima ahetse ipombo arimo aratera umuti umuceri kugira ngo yice udukoko tutazawurya maze ejo agahura n'igihombo ntabashe gutunga umuryango we.

Umusore wambaye umupira w'amaboko maremare w'umutuku, ahetse ipombo irimo umuti, arimo aratera udukoko umuti kugira ngo imyaka ye itagumya gupfa, ejo agahura n'igihombo gikomeye cyane.

Umurima munini cyane uteyewe n'ibishyimbo bya mishingiriro, hariru umugabo wambaye imyenda y'umuhondo ndetse yipfutse mu maso ahetse ipombo arimo arica udukoko kugira ngo tutamwangiriza imyaka akaba yahura n'igihombo.

Umugabo uri mu murima w'umuceri, yambaye ipantaro y'umukara yayikunje ndetse yambaye n'ishati y'umweru ahetse ipombo arimo aratera umuti kugira ngo yice udukoko azabone umusaruro mwiza.

Umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse yambaye n'itaburiya y'umweru, afite ipumbo arimo aratera umuti, udukoko kugira ngo tutamwicira indabyo maze ubundi agahomba.

Inyubako nini cyane ikorerwamo ubucuruzi butandukanye by'umwihariko imiti yica udukoko iba iri mu ducupa, bafite n'ipompo yo gukoresha mu gihe ufite udukoko mu murima wawe utera iyo miti ubundi tugapfa.

Umugabo uri ahantu mu murima wambaye ingofero yipfutse mu maso ahetse ipombo irimo umuti arimara arayitera imyaka kugira ngo atazarwaza udukoko tukamwicira imyaka.

Abantu babiri bari ahantu heza cyane harimo umusore ndetse n'inkumi, inkumi yambaye agapfukamunwa, bafite amafi mu ntoki n'andi ateretse mu kintu bigaragare ko bavuye kuyaroba kandi bayarobye neza.

Ikiyaga kinini cyane kirimo abantu bari mu bwato ndetse bafite n'inzitiramibu, bigaragare ko bashaka kuroba amafi, aho iki kiyaga umuntu iyo agiye mu bwato kimutembereza ndetse akabasha kwambuka akagera hakurya ku nkombe.

Amafi abiri manini cyane ari mu mazi, aho aya mafi atunzwe n'amazi kandi afasha abantu mu kubona inyama ndetse akagera no ku isoko, uyajyanye akabasha kubona amafaranga.

Abantu bari mu muhanda harimo umugabo wambaye ishati y'umweru yatebeje, iruhande rwe kandi hari undi mugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi nawe watebeje, inyuma yabo hari umugabo wambaye ingofero ndetse n'imyenda y'umukara, kandi mbere hari undi nawe wari kugenda. Gusa hasi yabo hari amazi.

Umukobwa uri ahantu mu mazi, afite inzitiramubu kandi na none yambaye isarubeti, afite imisatsi iboshye afite n'igiti, hirya ye hari ibyatsi ndetse n'ibiti, bigaragare ko hari ikintu ari gushaka gufatira mu mazi.

Ikiyaga kiri ahantu heza cyane harimo abantu barimo bararoba amafi bakoresheje inzitiramibu kugira ngo bayajyane ku isoko, babone amafaranga maze batunge umuryango wabo.

Abantu babiri bari mu gishanga ahantu hari amazi umugore n'umugabo, umugore afite imisatsi iboshye yambaye umupira w'umutuku, umugabo na we yambaye ingofero, bafite indobani bigaragara ko barimo bararoba amafi.

Ikiyaga kinini cyane kirimo abantu bafite indobo bari kudaha amazi ndetse hari n'ubwato iruhande rwabo, bigaragara ko bari kudahamo amazi kugira ngo babe babasha kuyakoresha cyangwa buhire imyaka yabo.

Umwana wicaye imbere y'ibyuzi bibiri, hakurya ye harimo ibiti, arimo arabireba kugira ngo arebe ko amafi nta biyonona cyangwa ngo babe bayiba.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye ahantu, harimo urubyiruko ndetse n'abana bato, ikindi kandi hari ushinzwe umutekano ari we umupolisi, arimo arabagira inama kugira ngo ejo bazavemo abantu b'abagabo kandi bakomeye.

Igishanga kinini cyane ndetse kirimo n'amazi ,hari abantu bahagaze, barimo barareba, hakurya yabo bigaragara ko barimo barasarura imyaka bahinzemo kugira ngo bayijyane ku isoko kandi babashe kubona amafaranga.

Amafi manini cyane arunze mu kintu ndetse iruhande rwayo hari n'andi arunze hasi, aho bayarobye kugira ngo babashe kuyajyana ku isoko, bayagurishe ndetse babone amafaranga yo kubatunga.

Igishanga kinini cyane kirimo ibyuzi by'amafi, hari umugabo waje kugaburira amafi ufite ibiryo by'amafi mu tudobo aho ibingibi bikorwa kugira ngo umuntu woroye amafi azagire umusaruro uhagije azanjize amafaranga menshi cyane.

Abantu bari mu byuzi by'amafi ndetse bafite n'inzitiramibu, iruhande rwabo hari ibasi ndetse n'indobo, aho barimo baragaburira amafi kugira ngo agire ubuzima bwiza bazabone umusaruro uhagije.

Abantu bari mu mazi bafite indobane barimo bararoba amafi, harimo abagore ndetse n'abagabo gusa bamwe baba bahagaze hejuru bigaragare ko barimo bararebera uburyo barobamo.

Igishanga kinini cyane kirimo ibyuzi by'amafi, hari umugabo wayazaniye ibyo kurya yasetse, iruhande rwe hari abandi bana bigaragara ko bishimye cyane kandi ibi bikorwa kugira ngo uzabone umusaruro mwiza kandi uhagije.

Igishanga kinini cyane kiririmo ikiyaga ndetse harimo nasupaneti zizitiye bigaragare ko ari abantu babikoze kugira ngo bororeremo amafi ejo bazabone umusaruro uhagije kandi biteze imbere.

Igishanga kinini cyane kirimo ibyuzi by'amafi bizitijwe inzitiramibu y'ubururu hirya yayo kandi hari irindi shyamba ndetse n'ibyatsi, aho umuntu akora ibyuzi kugira ngo yororemo amafi abone umusaruro mwiza.

Abagabo babiri bari kumwe n'umudamu ufite imisatsi ndetse imbere yabo hari ikidamu cy'amazi aho ibi bikorwa kugira ngo abantu babashe kubika amazi, nibajya bajya gukora igikorwa cyo kuhira baze bayavome.

Umugabo uri ahantu mu gishanga yambaye isengeri y'umweru, ipantaro yitese, ndetse na pote z'umuhondo afite ifi rinini cyane bigaragara ko arirobye mu mazi amuri iruhande kugira ngo ayishyire ku munzani arebe ibirori ripima.

Umugabo uri ahantu heza cyane yambaye ishati y'umweru irimo uburongo afite ubwanwa bwinshi ndetse afite n'inzitiramubu irimo ifi bigaragare ko avuye ku rubafi kugira ngo abone igitunga umuryango we kandi ajyane no ku isoko babashe kuba baribo.

Umurima munini cyane uteyemo ibihingwa ngandurabukungu kandi biteye ku murongo, aho biterwa kugirango babashe kubona amafaranga ndetse babigeze no mu nganda zibitunganya neza.

Umurima munini cyane uri ahantu ngo hateye icyayi harimo abadamu biteze udutambaro gusa umwe yambaye ingofero barimo barasarura icyayi kugirango bakijyane uruganda rubashe kugitunganya ndetse n'umushoramari abahembe amafaranga.

Abahinzi bari mu murima w'icyayi, barimo baragisarura ni abagore bahetse ibitimbiri mu mugongo. Aho bari kubikora kugira ngo bakijyane bagitunganye kandi na bo baze kubona amafaranga batunge imiryango yabo.

Igihingwa ngandurabukungu cya kawa kiri ahantu heza harimo ikawa zahishije zabaye umutuku gusa hari n'izindi zitarahisha, aho umuntu ahinga ikawa kugira ngo abashe kubona amafaranga kandi zikaba zigira amafaranga menshi cyane.

Igihingwa ngandurabukungu cya kawa giteye ahantu heza, cyazanye imiteja kandi hariho imiteja yeze ndetse n'indi itarera, aho umuntu ayihinga kugira ngo abashe gusarura kandi abone ku mafaranga.

Abagabo bari mu murima wicyayi barimo baragisarura, barimo uwambaye ingofero y'umutuku ndetse n'uwambaye ingofero y'ubururu, aho basarura icyayi kugira ngo bakijyane aho gitunganyirizwa babona amafaranga.

Igishanga kinini cyane giteyemo umuceri ndetse iruhande rwacyo hari abantu bagihagaze iruhande, baje kureba uko umuceri rumeze kandi kugira ngo babashe kuwitaho ejo batazahura n'ibihombo bikomeye.

Igihingwa ngandurabukungu cya kawa ndetse gifite ikawa nyinshi zeze zabaye umutuku, hariho n'utundi dukeya tutarashya, aho iki gihingwa ari ingirakamaro cyane ku Gihugu kuko giteza imbere ubukungu bw'Igihugu.

Umurima munini cyane uteyemo icyayi cyinshi ndetse hari abantu barimo baragisarura, hari umugore uhetse igitimbiri mu mugongo, bari gusarura kugira ngo bakijyane ku ruganda aho utunganiyirizwa babashe kubaha amafaranga.

Umugore uri mu murima we ndetse arimo arareba uko imyaka ye imeze yambaye agatambaro k'umutuku ndetse n'umupira w'umweru, hakurya ye kandi hari indi mirima ihinze neza bigaragare ko nta kibazo ifite.

Imbuga nini cyane irunzemo ikawa zihiye, hari abagabo babiri bari gutoranyamo izumye cyane kuko zabaye umukara kugira ngo ba zitandukanyeye n'zimeze neza, ubundi izimeze neza bazijyane ku ruganda rubashe kuzitunganya.

Igihingwa ngandurabukungu cya kawa kiri mu murima mwiza ndetse zarahiye, ibingibi umuturage arabikora agahinga ikawa maze zakera akazisarura akazijyana ku nganda zizitunganya kugira ngo akoremo icyayi.

Umurima munini cyane uteyemo ibihingwa ngandurabukungu biteye ku murongo, aho umuntu abitera ejo akabisarura kugira ngo uruganda rubitunganye, bakamuha amafaranga akabasha gutunga umuryango we.

Umukecuru uri mu murima w'ikawa arimo arasoroma iziye gusa hasigaye nkeya bigaragara ko zigiye guhundura, arazisoroma azijyane ku ruganda ruzitunganya maze ubundi bamuhe amafaranga.

Umurima uteyemo ingano zimeze neza, harimo umudamu ufite akayuya arimo arasarura, hirya ye hari abandi bantu bari kumufasha gusarura kugira ngo bazijyane ku isoko ndetse bazitunganye neza babahe amafaranga.

Umudamu uri ahantu heza cyane iruhande rwe urutoki, yiteze agatambaro k'umukara mu mutwe yamwenyuye, afite inkangara irimo ikawa zihiye ndetse n'izindi mbisi ku buryo agiye kuzigurisha.

Umurima munini cyane uteyemo icyayi kinshi cyane, aho abantu bagitera ndetse cyakera bakagisarura bakabona amafaranga ndetse bagaha n'abaturage akazi kugira ngo na bo bagire ubuzima bwiza.

Umurima munini cyane uteyemo icyayi hari abantu bahetse ibitimbiri mu migongo barimo barasarura, hakurya kandi hari indi sambu iteyemo icyayi ndetse ifite amaterasi aho aya materasi yifashishwa kugira ngo umurima utazatwarwa n'isuri.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku ndetse ufite umusatsi mwinshi, ari mu murima w'ikawa, arimo arazisoroma kugira ngo abashe kuzijyana aho bazigura, bazitunganye maze abone amafaranga.

Umugabo uri mu murima w'ikawa ndetse yasetse cyane yamwenyuye, afite amenyo y'umweru yishimiye ko ikawa ze zeze kandi akaba agiye gusarura akabona amafaranga akabasha gutunga umuryango we.

Umurima munini cyane uteyemo igihingwa cya kawa, zihiye neza barimo barazisoroma bazishyira mu gitimbiri, aho umuntu ahinga ikawa kugira ngo abone amafaranga, ubundi zakera akazisarura akazishyira uruganda ruzitunganya.

Icyumba kinini cyane kirimo imiti y'amatungo, hari ibicupa by'umweru biriho udupapuro tw'umweru, ikindi kandi hari n'amaserenge bifashisha bavoma umuti kugira ngo bawutere itungo ribashe gukira.

Icyumba kinini cyane gikorerwamo ubucuruzi bw'imiti y'amatungo hari imiti iri mu bicupa bifite imifuniko binini ndetse n'ibicupa birebire bifite imifuniko mitoya by'umweru, aho umuturage aza akabasha kugura umuti agashyira itungo rye rigakira mu gihe rifite ikibazo.

Inyubako nini cyane irimo imiti y'amatungo gusa iyo miti irunze mu bicupa ndetse by'imikara, aho umuntu abikora kugira ngo abashe kugurisha iyo miti ku baturage, bafite ikibazo cy'amatungo arwaye.

Inzu nini cyane ikorerwamo ubucuruzi butandukanye by'umwihariko imiti y'amatungo, hari imiti iri mu dukarito ndetse n'indi iri mu bidobo by'umweru, aho umuturage azakavuga ikibazo maze akabona umuti agashyira itungo rye.

Inyubako nini cyane ikorerwamo ubucuruzi butandukanye by'umwihariko imiti y'amatungo, aho umuturage arwaza itungo rye maze akaza kuhashakira umuti bakawumuha akabasha kuvura itungo rye rigakira.

Icyumba kinini cyane kirimo imiti y'amatungo iri mu bicupa by'umweru, gusa harimo mvirope hari n'ikindi gicupa kiri mu'ibara ry'umuhondo, aho umuturage aza kugura umutI akabasha kuvura itungo rye.

Icyumba kinini cyane kirimo imiti y'amatungo, harimo imiti iri mu bikarito by'umweru ndetse n'umutuku, gusa hari n'isaha y'urushinge, aho umuturage aza kugura umuti ashaka, akajya kuvura itungo rye rigakira.

Inyubako nini cyane ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti y'amatungo hari ibikarito birimo imiti y'amatungo ndetse hari n'igifunguye aho umuturage aza kugura umuti kugira ngo avure itungo rye.

Icyumba kinini cyane gikorrerwamo ubucuruzi bw'imiti y'amatungo aho ibgi bikorwa n'abaveterineri bize kuvura amatungo umuturage iyo itungo rye rigize ikibazo araza agatoranyamo umuti we agashyira itungo rye rikabasha gukira.

Icyumba kimeze neza cyane kirunzemo imiti y'amatungo iri mu bishashi, aho abaturage bafite amatungo akarwara baza kuyigura bakabasha kuyijyana ndetse bakavura amatungo yabo akamera neza.

Icyumba kinini cyane giteretsemo ibicupa by'umweru kandi hari n'ibiriho amabara y'umutuku byanditseho, bigaragara ko ari imiti y'amatungo, aho buri wese awifashisha akavura itungo rye.

Icyumba kinini cyane kirimo imiti yamatungo, aho umuntu aza akabasha kugura umuti agashyira itungo rye kugira ngo abashe kurikiza ritamupfana agahomba amafaranga.

Icyumba kinini cyane gikorerwamo ubucuruzi by'umwihariko, bacuruza imiti y'amatungo, ari imiti ivura inkoko ndetse n'andi matungo, aho umuturage aza, agashakamo umuti akawushyira itungo rye, akarivura rigakira.

Ubworozi bw'amatungo magufi by'umwihariko inkoko, aho umuntu yaje akazigaburira ndetse kugira ngo zibone amagi kandi zizabashe guturaga neza, ejo azabone amafaranga.

Inyubako nini cyane ikorerwamo ubucuruzi by'umwihariko ubucuruzi bw'imiti y'amatungo, aho umuntu aza agashaka umuti yifuza uwo ari wo wose ndetse akajya kuvura inka ye ikabasha gukira.

Abahinzi bari mu murima gusa bari ku musozi harimo abagore ndetse n'abagabo, hakurya yabo hari igicu kimeze neza ni umweru, aho bari gukora ubuhinzi kugira ngo bazabashe kubona umusaruro kandi mwiza.

Abahinzi benshi cyane bari mu murima bari guhinga ndetse harimo n'inzego z'umutekano, Abadaso aho bari gufasha abaturage bakabereka uburyo bahingamo bya kijyambere kugira ngo bazabone umusaruro uhagije.

Umusaza wicaye mu murima we yambaye ikote ndetse n'ishati y'amaboko maremare, arimo arareba ibyo yahinze ndetse kugira ngo nibyera azabisarure abihe ababikeneye na bo bamuhe amafaranga.

Umurima munini cyane uhinzemo amashu harimo abantu babiri hari umugore ndetse n'umugabo, umugore ari kugenda umugabo arimo arasarura amashuu kugirango abashe kuyajyana ku isoko kandi abashe kumuha amafaranga yifuza.

Umugabo uri ahantu mu murima yambaye ikoti ry'umutuku ndetse na bote z'umukara, afite agapfukamunwa ndetse nta musatsi afite, arimo aratera igiti cy'umwembe kugira ngo ejo nukura azabasha kurya ndetse ahe n'umuryango we.

Abahinzi bari mu murima ndetse bafite amasuka baranahagaze, iruhande rwabo hateye urutoki, gusa hari umugabo urimo urabagira inama y'uburyo bahingamo, maze bakabasha kubona umusaruro uhagije.

Umugore uhagaze wambaye umupira w'umutuku ndetse yikinije n'igitenge, afite isuka ya kidima ku rutugu, yambaye ingofero ndetse afite n'agafuka ku kuboko, iruhande rwe hari ibiti ndetse n'ibyatsi byinshi cyane.

Umurima munini cyane uteyemo ibigori gusa bitarera neza, hari umumama wasetse wambaye umupira, arishimye cyane kubera ko abona ko ibigori bye bimeze neza azavanamo amafaranga ahagije.

Umurima munini cyane uteyemo amashu, harimo abagore benshi barimo barawukorera ndetse banasarura kugira ngo ejo bazajyane mu isoko ndetse babone amafaranga atunga umuryango wabo.

Urugo runini cyane rurimo ubworozi, harimo inka zikamwa hari abagabo bicaye barimo barazikama bavuruganya aho ibi bikorwa kugira ngo babashe kubona amata kandi n'inka zitanga amafaranga maze uzitunze bikamufasha.

Ikiraro kinini cyane cyubakishije ibiti ndetse gisakaje amabati, kirimo inka z'inzungu zimeze neza, bigaragare ko zikamwa ndetse hari na nyirazo arimo arazireba ari kuzipangira uburyo yazikorera kugira ngo zibashe gutanga umusaruro.

Umuhinzi uri mu gishanga arimo arahinga, ahingisha isuka ya kidima, ari kubikora rero kugira ngo ejo azahinge imyaka ibashe kwera, na we abashe gukirigita ku ifaranga nk'abandi.

Abahinzi bari muri pepinyeri ifite ibihoho biteyemo ibiti bya gereveriya bihingwana n'imyaka kugira ngo bitona imyaka, ibyo biti byifashishwa kubera ko bitona imyaka ngo bigire icyo biyangizaho.

Umurima munini cyane urimo abahinzi, abagore ndetse n'abagabo bafite amasuka ya kidima bari kugenda bacukura ibinogo kuko bari guhinga ibirayi, ibi bikorwa kugira ngo umuntu ahinge ibirayi nibyera azasagurire n'amasoko ndetse nawe abone ibyo arya.

Inka nyinshi cyane ziri mu biraro byazo zirimo zirarisha ibyatsi ni inzungu, aho umuntu yorora inka nyinshi kugira ngo azabone umukamo mwiza kandi azabone n'ifumbire ihagije.

Abahinzi benshi cyane bari mu murima, gusa harimo umuntu uri kuvana urubuto mu gihoho kugira ngo abereke uburyo ruterwamo rukabyara umusaruro uhagije, na bo ejo bakabikora bakabona umusaruro.

Abantu benshi bari mu murima w'ibigori bikoreye ibiti biri mu bihoho mu mabasi ndetse hari n'umugabo uhetse ibindi ku igare n'umugore uri kumusunikira byumvikane ko ari ibyo bajyanye kugira ngo babiterane n'imyaka.

Abantu bari ahantu hari pepinyeri irimo ibihuha birimo ibiti barimo barabitora kugira ngo bagende babihingane n'imyaka maze bizazane imvura.

Umurima munini cyane ukorerwamo ubworozi bw'amatungo maremare by'umwihariko inka, hari abantu babiri bahagaze bari kuzireba bigaregare ko ari ba nyirazo bari kureba uburyo zimeze neza, aho bino bikorwa kugira ngo umuntu azabashe kubona amafaranga atubutse kandi yiteze imbere.

Umugabo uri ahantu heza cyane yambaye ishati y'umweru afite inyinya, iruhande rwe hari inka y'inzungu imeze neza, aho ayiragiye kandi ikaba iri kurisha kugira ngo igire ubuzima bwiza.

Abahinzi benshi cyane bavuye gusarura imyaka, bamwe bafite amasuka ku rutugu gusa hari n'igare rihetse ibyo basaruye kugira ngo babigeze ku isoko babigurishe ubundi babone amafaranga.

Ishyamba rinini cyane ririmo inka nyinshi ndetse n'abashumba bazo, barazishoye kugira ngo bazijyane kurisha ubwatsi zitaza kwicwa n'inzara kugira ngo zizatange umukamo muzima kandi bazabone n'ifumbire.

Umudamu wasetse wamwenyuye, afite amenyo y'umweru, yiteza agatambaro k'umutuku mu mutwe, ari kumwe n'umwana we, bafite amasuka ya kidina barimo barahinga kugira ngo batazicwa n'inzara, hakurya yabo kandi hari imirima ihinzemo imyaka imeze neza.

Igishanga kinini cyane kirimo umuceri harimo abantu barimo kuhingamo, harimo umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi amanitse isuka ya kigemu, iruhande rwe kandi hari undi mugore nawe ufite isuka kandi bari guhinga kugira ngo umuceri ugende neza utazarwara.

Ibirayi binini cyane by'imyeru birunze ahantu, aho umuntu abirunda kugira ngo umuntu wese ubikeneye, aze abigure abijyane iwe ajye gutekera umuryango kandi na we amusigire amafaranga.

Umurima uri ahantu heza cyane uteyemo icyayi ndetse harimo n'ibiti by'imyembe, iruhande rwawo hari ifamu imeze neza cyane gusa nta nka zirimo, hakurya yawo nanone hari indi mirima myiza cyane iteyemo imyaka, igicu kimeze neza ni umweru.

Umurima uri ahantu heza cyane hateyemo umwumbati kandi munini umaze kweraho, hirya yawo hari inzu iteye amarangi y'umweru, kandi umwumbati umuntu awuhinga kugira ngo ngo abashe kubona ibyo arya ndetse agaburire umuryango.

Umurima munini cyane uteyemo ibihingwa by'imyumbati ndetse n'ibigori aho, umuntu abihinga kugira abone ibyarya agaburire umuryango we utazicwa n'inzara.

Icyumba kinini cyane gikorerwamo ubucuruzi butandukanye harimo karoti, amagi, amashu, indimu, amaronji, ndetse n'ibindi. Aho umuturage aza agahitamo icyo ashaka ubundi akakijyana akajya kugiteka.

Umurima munini cyane uhinzemo ibigori kandi bimeze neza bifite imisatsi ariko ntabwo birera neza, aho uyu murima uzifashishwa kugirango nyirawo abashe kubona amafaranga ndetse atunga umuryango we kubera ibigori azaba yasaruyemo.

Umurima munini uteyemo ibigori byumye imbere yawo hari inzu kandi ni ho babitunganyiriza kugira ngo bibashe kumera neza ndetse babigeze ku baturage bimeze neza.

Umurima munini cyane uhinzemo ibigori byinshi ndetse bigiye kwera huzuyemo za kadahumeka, ibingibi bikagorwa n'umuhinzi kugira ngo ashyiremo izo kadahumeka zijye zikanga inyoni zitazajya zangiza im imyaka.

Umurima uteyemo imboga rwatsi kugira ngo uzarinde abantu indwara ya bwacya ndetse n'izindi ndwara kuko imboga zidufasha mu kwirinda indwara.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi butandukanye by'umwihariko hacururizwamo amavuta ndetse n'ibindi, aho umukiriya aza agahitamo icyo ashaka ndetse akakijyana akakibonera ku giciro cyiza kikabasha gutunga umuryango we.

Umurima munini cyane uteyemo ibihingwa by'ibigori, aho umuntu atera ibigori kugira ngo abashe kubona umusaruro kandi agaburire n'umuryango we, ikindi kandi ibigori biduha n'amafaranga.

Umurima munini cyane uteyemo ibigori ndetse byamaze kuma, harabura kubisarura umuntu ahinga ibigori kugira ngo abashe kubona amafaranga kandi ibigori na none bitunga umuryango.

Umurima uteyemo ibigori ndetse byeze kuko byarangijwe kuma, aho umuntu ahinga ibigori kugira ngo abashe kubona umusaruro. Iyo byumye rero barabisarura bakabivungura.

Umurima uri ahantu heza cyane uhinzemo imyaka ndetse n'ubuhinzi bwa kijyambere harimo imashini ikoreshwa mu kuhira imyaka hirya yaho kandi hari urutoki rumeze neza cyane.

Umurima munini cyane uteyemo imyumbati myinshi, aho imyumbati yifashishwa mu kugira ngo itunge umuryango ndetse umuntu ayijyane no mu isoko abona amafaranga kugira ngo abashe kurihirira abana ishuri.

Umurima munini cyane urimo amapoto y'amashanyarazi, gusa hahinzemo n'imyaka myinshi kandi myiza, hakurya hari igicu cy'umweru bigaragara ko nta mvura kiri butange aho umuntu ahinga ino myaka kugira ngo abashe kubona inyungu kandi atunge umuryango.

Ibigori birunze mu murima, aho byumye kuko iyo umuntu abihinze bikuma, abasha kubisarura ubundi akabijyana ku isoko, bakamuha amafaranga ndetse agatunga umuryango we.

Umurima munini cyane ndetse w'amaterasi y'indinganire, uteyemo ibiti by'imyembe, aho umuntu atera imyembe kugira ngo ayijyane ku isoko abone amafaranga kandi abikora nk'umushinga.

Ishyamba rinini cyane riri ahantu heza aho iri shyamba ryifashishwa mu kurinda inyamaswa zizana ba mukerarugendo. Si ibyo gusa kandi ishyamba nkuko mubizi rituma tubona imvura maze tugahinga imyaka ikabasha kwera.

mUurima munini cyane uhinzemo icyayi gusa mu kayira kari ruguru y'aho harimo abantu barimo baragenda, ruguru yabo kandi hari ishyamba ry'inkurusu byumvikane ko izo nturusu ari ibidukikije kandi bagomba kubyitaho.

Ishyamba rinini cyane aho iri shyamba riba ririmo inyamaswa z'ubwoko bwose, ba mukerarugendo bakaza kuzisura bakaduha amadovize, ikindi kandi iri shyamba ridufasha mu kubona imvura imyaka yacu ikera.

Ishyamba rinini cyane ririmo inzu z'amabati ashaje gusa ku ruhande harimo n'icyayi, aho iri shyamba riba ririmo inyamaswa nyinshi ba mukerarugendo bakaza kurisura maze bagatanga amadovize.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti by'ubwoko bwose aho aya mashyamba adufasha kugusha imvura kandi haba harimo n'inyamaswa ku buryo abakerarugendo baza kuzireba bakaduha amadovize.

Ahantu mu gishanga hari abantu benshi bambaye imyenda y'umweru. Barimo baragenda gusa hakurya yabo hari imirima ihinze iteye neza cyane kandi harimo n'amapoto y'amashanyarazi muri uwo murima.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti by'ingwizamarumbo, hari umugabo uhahagaze wenyine yegamye ku giti, aho bino biti bidufasha kumanura imvura kandi babikoresha no mu bwubatsi

Ishyamba rinini cyane rirunzemo n'amabuye, harimo abagabo babiri, umwe ari imbere, undi ari inyuma, gusa uri inyuma arunamye ndetse yambaye n'umupira w'umweru, bigaragare ko barijemo kandi hari icyo baje gushakamo.

Abantu benshi cyane harimo abagore ndetse n'abagabo, bari mu muhanda iruhande rwabo hari ishyamba rimeze neza cyane, barimo baragenda aho bagiye, kugira ngo bajye mu nama kandi babashe gutega amatwi umuyobozi.

Ikiyaga kinini cyane kimeze neza, hari abantu baje kugisura ndetse kugira ngo barebe uko kimeze, akenshi ibi bikorwa kugira ngo abantu basohoke baze bishimishe barebe ibyiza bitatse igihugu.

Ishyamba rinini cyane ririmo ubwoko bw'ibiti butandukanye, aho harimo ubwoko bwinshi kandi turabizi ko ishyamba ari ikintu cyiza cyane kubera ko ridufasha kumanura imvura ndetse tukabasha kweza imyaka.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye baturutse impande n'impande, bari mu ishyamba barimo baravanamo ibyatsi kugira ngo ishyamba rigaragare hareke kuba umwanda ikindi kandi, bari kumwe n'inzego z'umutekano, abasirikare ndetse n'abadaso.

Abakerarugendo b'abazungu baje kureba inyamaswa mu ishyamba bafite kamera ndetse hari n'undi babaherekeje barimo barafotora ingagi kugira ngo baze kugaragaza amashusho y'aho bari bari.

Ishyamba rinini cyane riri ahantu heza ndetse hari n'imi byariri gusa hakurya hari n'inyubako zimeze neza rigaragara ko havamo ikibanza cyo kubaka aho ibindibi bikorwa kugira ngo abantu bazabone aho batuwe.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bari mu muhanda, bafite amasuka ndetse n'imihoro, bari kujya mu ishyamba gutemamo ibyatsi kugira ngo rimere neza, ejo batazaba baterwa n'inzoka ndetse hakazamo n'indi myanda myinshi.

Inzu nini cyane ikorerwamo ibikorwa by'ubuhinzi, hahinzemo inyanya zahiye kandi nini cyane, aho ibi bikunze gukoreshwa n'abagoronome kugira ngo babone umusaruro uhagije.

Igiti kinini cyane cy'amapapayi harimo amapapayi ahiye ndetse ntayadahiye aho umuntu atera amapapayi yamara gushya akayasarura bakayajyana mu isoko bakamuha amafaranga ndetse agaha n'umuryango.

Abantu benshi cyane barahagaze harimo n'abagore, gusa hari umugore ufite telefone arimo arafotora, undi w'umuzungu wicaye, urimo urasarura ubutunguru, ari kubereka uburyo bikoreshwamo kugira ngo nabo bazabikore.

Umurima munini cyane uhinzemo inyanya nziza cyane, aho ibi bintu bikorwa n'abagoronome ku buryo bubaka inzu bahingamo inyanya kugira ngo bajye babasha kubona umusaruro mwiza kandi uhagije.

Isambu nini cyane iteyemo imbuto ndetse harimo by'umwihariko imyembe, aho umuntu ahinga imyembe kugira ngo azayisarure kandi abashe kuyigeza ku bayikeneye bamuha amafaranga nawe yiteze imbere.

Umurima munini cyane uri ahantu heza hateyemo imboga z'amashu ibi ngibi bikaba bikorwa n'umuhinzi aho ahinga isambu nini kugira ngo azabone umusaruro mwinshi kandi uhagije ndetse akabasha kuzigeza ku baturage bazikeneye.

Icyumba kinini cyane giteraniyemo abantu batandukanye, bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'udutambaro tw'umweru, gusa harunzemo voka mu bikarito, aho izi voka zifashishwa mu bintu byinshi ndetse akaba ari izirinda indwara.

Inyubako iri ahantu heza cyane yubakishije amatafari ahiye, gusa iruhande rwayo hari a ma k'igikoni gateyemo amashu ndetse n'ibitunguru na karoti, aho aka karima gafasha abantu kurwanya imirire mibi.

Umudamu uri ahantu heza cyane mu murima yiteze agatambaro mu mutwe ndetse yambaye n'ikanzu, afite indobo y'umutuku irimo amazi bigaragara ko ari kuhira imyaka ye kugira ngo itazuma.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye by'umwihariko imboga, harimo inyanya, karoti, ibigori, pavuro, urusenda, ibitunguru ndetse n' bikorwa n'umucuruzi kugira ngo abashe kubigeza ku babikeneye.

Umudamu uri ahantu mu murima w'amatunda arimo arayasarura, amwe arahiye gusa andi ntarashya, yambaye urunigi mu ijosi kandi yambaye n'imyenda y'ubururu.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, harimo imbuto za avoka, harimo imiteja ndetse n'ibindi, aho umuntu wese ubikeneye aza agatanga amafaranga akabigura, agahitamo icyo ashaka akakijyana mu rugo.

Urusenda rwa kirunge ruri ahantu heza cyane, barusaruye, aho umuntu aruhinga kugira ngo arujyane mu isoko kandi babashe kumuha amafaranga yifuza.

Umugabo uri mu nyubako ihingwamo ndetse yahinzemo pavuro, arazisaruye zimeze neza arimo areka abantu, uburyo bahinga mu bya kijyambere kugira ngo umuntu abashe kubona umusaruro uhagije.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye hari umugore uteruye ibasi irimo kayote, iruhande rwe kandi harundi uteruye ibasi irimo ibitunguru, aho umuntu aza mu isoko acuruza ibiribwa kugira ngo abashe kubona amafaranga atunga umuryango.

Umurima munini cyane kandi wubakiye usakajwe na shitingi hari abantu batatu babiri barimo barahinga undi nawe arahagaze, aho ibi bikorwa n'abagoronome kugira ngo batunganye ubutaka maze bazabashe guhinga babone umusaruro uhagije.

Abahinzi babiri bari mu murima w'amashu, ni abagore bombi, baje kureba uburyo amashushoyo yabo ameze kugira ngo babashe kuyasarura, bayajyane mu isoko babone amafaranga.

Pipinyeri iri ahantu heza cyane hateyemo ibiti by'imyembe gusa biri mu ibidobo by'umukara aho umuntu abikora kugira ngo azabihe abaturage bajye kubitera cyangwa nawe abitere bikure ubundi abone umusaruro.

Umugabo uri mu murima w'inyanya yambaye agapfukamunwa k'umutuku ndetse n'itaburiya y'ubururu, afite urunyanya ruhiye mu ntoki arimo arereka abantu uburyo zihingwa bya kijyambere kugira ngo ejo na bo bazabikore babone umusaruro uhagije.

Abagabo bari ahantu heza cyane bari kureba hakurya gusa bahagaze ku kiraro, munsi yabo hari amazi, umwe arimo aramutungira agatoki undi na we akareba kuko hari ahantu arimo aramwereka ashobora kuba atazi neza.

Umugabo uri mu gishanga ndetse arimo aruhira imyaka akoresheje rozwari aho kuhira bikorwa mu gihe cy'izuba kugira ngo abantu batazabura ibyo barya kandi imyaka yabo ikuma.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku arabyibushye kandi arunamye, arimo aruhira imyaka ye kuko amazi ari kugenda yisuka ku myaka, inyuma ye kandi hari undi mwana wambaye umupira w'umutuku na bote, aho umuntu yuhira imyaka kugira ngo ituma.

Abahinzi bari mu gishanga ndetse hari n'umugabo uri kuhira imyaka kugira ngo itazuma, ibi bikorwa iyo hari igihe cy'izuba kugira ngo imyaka wahinze itazuma maze ugahura n'igihombo gikomeye.

Umugabo uri mu murima w'amashu yambaye ikoti ry'umukara ndetse afite furari mu ijosi, afite indobo mu ntoki arimo aruhira amashu kugira ngo atazuma, hakurya kandi hari abandi bantu nabo barimo barakorera amashu yabo.

Umurima munini cyane uteyemo ibihingwa byinshi, inyuma yaho hateye urutoki, hari abagore barimo barufira ndetse hari n'umugabo uri kuhira, umuntu yuhira imyaka ye kugira ngo ituma maze akazasarura umusaruro uhagije.

Umudamu uri ahantu mu isambu ndetse yahinzemo amashu iruhande rwe hari umurasire w'izuba kandi yambaye urunigi afite uruhombo arimo aravomera amashu ye kugira ngo atazuma agahura n'igihombo.

Umurima munini cyane uhinzemo ibitunguru ndetse harimo n'amazi abasha kubyuhira, hari umugabo ufite isuka ndetse afite n'isahani ari gutega amazi bigaragara ko ariwe nyiri butunguru, aho yabihinze kugira ngo yiteze imbere.

Umurima munini cyane uteyemo imbuto harimo ibyuma byifashishwa mu kuhira, aho batirirwa bafata rozwari, bakoresha uburyo bugezweho umuntu afungura amazi ubundi bikiyuhira kugira ngo imyaka itazuma.

Umurima munini cyane uteyemo imyaka ndetse iteye ku murongo, harimo ibyuma byabugenewe birimo biruhirira iyo myaka kugira ngo itazahura n'ikibazo izuba rikayica ikuma.

Umurima uri mu gishanga hahinzemo imyaka, gusa hari n'ibikoresho bikoreshwa mu kuhira iyo myaka, bigaragare ko ari ubuhinzi kijyambere, hakurya kandi hari indi misozi imeze neza iteyeho imyaka.

Igishanga kinini cyane giteyemo imyaka. Aho iyo myaka hari ibyuma, binini cyane byifashishwa mu kuyuhira. Akaba ari uburyo bwa kijyambere, aho umuhinzi abikora kugira ngo imyaka ye itazuma akaba yahomba.

Umurima urimo amateke meza cyane ndetse harimo n'icyuma, kimeze neza cyane bakoresha buhira, ku buryo iyo umuntu aje akagifungura kibasha gutanga amazi, akagera ku bihingwa bihinze.

Igishanga kinini kirimo imyaka ndetse kirimo n'ubwuhizi mpuzamahanga, aho hari ibyuma byuhira imyaka kugira ngo ituma kandi harimo n'amapoto y'amashanyarazi, hakurya hari undi musozi nawo uteyeho ibyo kurya.

Ubutaka buri ahantu heza cyane gusa harimo n'ibiti kandi na none ruguru yabwo hari izindi nzu zitameze neza aho ibingibi bikorwa kugira ngo abaturage bazabone ibibanza baturamo maze bazaze bahubake.

Ahantu heza cyane mu gishanga kirimo amazi ndetse bigaragara ko ari uruzi, hakurya yaho hari imisozi imeze neza cyane, igicu mu kirere kimeze neza ni umukara, bigaragara ko cyaza kubyara imvura.

Imirima myinshi cyane iri ahantu hahanamye gusa hateye urutoki ikindi kandi iciyemo amaterasi kugira bakomeze barwanye isuri kuko isuri yangiza byinshi kandi hari igihe ikujyanira ubutaka.

Imirima iri ahantu hameze neza cyane kandi haterereye, hateyemo urutoki ndetse hari n'ibiti, hakurya hari indi misozi iteyemo imyaka kandi ikirere kiri hejuru gifite ibicu by'umweru, bigaragara ko nta mvura kiri butange.

Ishyamba rinini cyane riri ahantu mu misozi gusa hateye n'icyayi aho rino shyamba riba ririmo inyamaswa nyinshi abakerarugendo bakaza kurisura ndetse bakabasha kuduha ku madovize kugira ngo dukomeze twongere iterambere ry'Igihugu.

Imirima myinshi cyane ndetse iciyemo amaterasi hakaba hateyemo n'ibiti, aho bashyiramo amaterasi kugira ngo iyi mirima itazatengwana n'imvura maze ugasanga irangiritse.

Igishanga cyiza cyane kirimo ikiyaga, gusa ku misozi hari imirima iteyemo imyaka, iruhande rwacyo kandi hari n'ipoto y'amashanyarazi. Aho iki kiyaga gifasha abaturage mu buryo butandukanye nko kubaha amafi ndetse n'ibindi.

Imirima myinshi cyane iri ahantu heza harimo ibyatsi ndetse hanateyemo imyaka, ku gasozi hari indi mirima imeze nkaho ari ibibanza abantu bashobora kubakamo bigaragara ko bimeze neza kandi umuntu yaza akaguramo ikibanza akubakamo inzu.

Ubworozi bwa kijyambere bw'amatungo magufi, by'umwihariko inkoko, harimo inkoko z'umweru ndetse n'umukara, aho umuntu yorora inkoko nyinshi zikamuha umusaruro ndetse zikamuha n'amafaranga.

Inyubako nini cyane irimo inkoko nyinshi ndetse zihagaze muryo zirimo zirabitora gusa hari igipangu cy'amabati aho umuntu yorora inkoko kugira ngo abashe kubona umusaruro mwiza.

Ubworozi bw'amatungo magufi by'umwihariko inkoko zitera amagi, aho umuntu yorora inkoko kugira ngo abashe kubona amagi ndetse ziturage n'imishwi abone amafaranga menshi ayageze ku baturage.

Ahantu hari inka nyinshi cyane zifite amahembe maremare ndetse hari n'abantu batatu, umwe yambaye itaburiya y'umweru ndetse hari n'undi mugabo wambaye bote z'umweru n'igisarubeti cy'ubururu n'ingofero y'umweru bigaragara ko baje kuzivura.

Inka nyinshi cyane ziri ahantu heza ziri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, hari umusore uhagaze ufashe ku nka yambaye ishati n'ipantaro y'umukara, gusa inyuma ya undi mugabo wambaye isarubeti cy'ubururu urimo akamena iruhande rwe hari igicuba.

Ubworozi bw'amatungo magufi by'umwihariko inkoko, hari inkoko zirunze ahantu ndetse zirimo ziratora ibyo zirya, ibi ngibi bikaba bikorwa n'umushoramari wafashe umushinga wo korora kugira ngo abone amafaranga ahagije.

Inkoko z'umweru zimeze neza ziri ahantu heza cyane zifite ibirokoroko kandi ni nini, ibi ngibi rero umuntu abikora kugira ngo yiteze imbere, ejo atazabaho nabi mu buzima bwe.

Inka nini cyane iri mu kiraro kandi ibyibushye, yambaye amaherena y'umuhondo, irimo irarisha, aho umuntu yorora inka kugira ngo abone amafaranga kandi abashe no kubona amata ahe umuryango we.

Ifamu nini cyane irimo inka z'inzungu ndetse zihaka harimo iz'umukara ndetse n'iz'umweru, zifite amabara meza kandi hari n'umushumba uziragiye kugira ngo zitaza kona cyangwa zikaba zagira ahandi zijya.

Ikiraro kinini cyane cyororerwamo inka nyinshi zitandukanye, inzungu ndetse n'inyarwanda, ibingibi bikorwa kugira ngo umushoramari abashe gucuruza inka nyinshi kandi abone umusaruro uhagije kandi bimuhe n'ifumbire.

Inka y'inzungu nziza cyane iri mu kiraro ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, imbere yayo hari manjwari, ibi ngibi bigaragaza ko umuntu yorora inka kugira ngo ishobore kumubyarira n'izindi nyinshi ejo azagire iterambere.

Inyubako nini cyane ikorerwamo ubworozi bw'amatungo magufi by'umwihariko inkwavu, hari abaveterineri baje kuzisuzuma kugira ngo barebe ko nta kibazo zifite ejo nyirazo atazaba ahomba.

Inyubako ikorerwamo ubworozi bw'amatungo magufi, by'umwihariko inkwavu, ziri mu kizu cyazo, aho umuntu yorora inkwavu kugira ngo abashe kubona amafaranga ndetse abashe no kurya inyama.

Inyubako nini cyane ikorerwamo ubworozi ndetse harimo inka nyinshi, hari umuntu uzihagaze iruhande wambaye itaburiya y'umweru aho ibi ngibi umuntu abikora kugira ngo yorore inka nyinshi zizamugirira akamaro.

Ishyamba rinini cyane ririmo ihene za musheru zirimo zirarisha byumvikane ko ari amatungo magufi umuntu yayaziritse mu ishga kugira ngo arishae ubwatsi aticwa n'inzara kandi azamuye umusaruro uhagije.

Imbuga nini cyane irimo ihene zitandukanye harimo ihene za musheru ndetse n'ihene z'umukara, aho abantu bashyira ihene kugira ngo zibashe kwisanzura kandi zibeho neza kandi babone uko bazigaburira ubwatsi.

Ubworozi bw'amatungo magufi by'umwihariko inkoko za kijyambere zitera amagi, zirimo zirarya kandi zimeze neza, ahangaha umuntu abikora kugira ngo abone umusaruro uhagije w'amagi kandi abone n'imishwi myinshi.

inka nyinshi cyane zihunze mu kibuga ndetse zambaye amaherena, ni iza kizungu gusa harimo n'izifite uduhembe dutoya, ari ebyiri zirimo ziranywa amazi kugira ngo zibashe gushira inyota kandi zindi nazo zirahagaze zirategereje.

Inka ziri mu kiraro ndetse harimo inka y'umweru ndetse n'umukara, aho umuntu yorora inka kugira ngo abone ifumbire ihagije ejo azafugire imyaka ye maze ubundi ibashe kwera kandi asarure umusaruro mwinshi.

Inka y'inzungu nini cyane iri mu kiraro yambaye iherena ry'umuhondo, ifite amabara y'umweru, umuntu yorora inka kugira ngo abashe kubona amata kandi inka zitanga n'amafaranga.

Ubworozi bw'ingurube ziri ahantu heza cyane mu kiraro cyazo, ni ingurube cumi n'ebyiri, aho umuntu yorora ingurube kugira ngo abashe kubona amafaranga kuko ingurube zirunguka cyane.

Umugore n'umugabo bahagaze ahantu, bose basetse bafite amenyo y'umweru, bafite intara barimo baragosora imyaka kugira ngo bayivanemo amabuye, babashe kuyibika imeze neza.

Umusaruro mwinshi cyane ndetse harimo ibishyimbo, ibirayi ndetse n'ibindi, aho umuntu asarura agashyira muri depo kugira ngo abantu bazaze babashe kubigura bamuhe amafaranga.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye, harimo abagore, abana ndetse n'abasore baje gushaka imbuto zo gutera kugira ngo bagende bazitere maze ubundi biteze imbere, ejo bazagire ubuzima bwiza ndetse bafashe imiryango yabo.

Umurima munini cyane uteyemo ibigori ndetse byeze, birakokoye, aho umuntu akora umushinga wo guhinga ibigori kugira ngo nibyera azabiguri, abone amafaranga ahagije kandi meza.

Uruganda runini cyane rurimo amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, rufite ibyuma byinshi ndetse harunze n'udufuka tw'imiceri, hari abantu barimo barakora utwo dufuka aho umuntu azagahaha agatwara icyo ashaka.

Umudamu uri ahantu heza cyane mu murima, harimo imbuto yambaye ijipo y'umukara ndetse n'umupira w'umutuku urimo amabara y'umweru, yarambuye ibiganza, birimo imbuto ari kwerekana ibyo yasaruye kugira ngo baze bamutezi imbere.

Umuveterineri w'umukobwa uri ahantu hororerwa inkoko hari inkoko nyinshi cyane kandi afite imisatsi miremire yambaye nk'igisarubiti cy'ubururu ndetse n'inkweto z'umweru arimo agaterara inkoko kugirango zigire ubuzima bwiza kandi aziteho.

Icyumba kirimo abantu babiri harimo umugabo ndetse n'umugore, umugabo yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa, umugore na we yambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati y'umweru, barimo barifata amashusho kugira ngo bayereke umuryango wabo.

Icyumba kinini cyane kirimo viterineri, aricaye yambaye itaburiya y'umweru, afite akantu arimo ararebamo imiti, imbere ye hari imiti ndetse n'ameza, biragaragara ko ari gusuzuma imiti kugirango aze kuvura amatungo.

Umugabo uri ahantu yambaye igisarubeti cy'umweru ndetse na bote afashe inka arimo arayikora mu nda kugira ngo ayivanemo ibyo yariye, undi nawe we ari munsi arimo arayikama kugira ngo ayivanemo amata maze ayagurisha aboneama amafaranga.

Inka nini cyane iri mu kiraro hari abantu babiri umwe yambaye itabuririya y'umweru undi nawe yambaye ikisarubiti cy'ubururu ndetse yakuruye umurizo bigaragara ko arimo arayifasha kugira ngo itaza kurwara ikaba byayiviramo gupfa.

Icyumba kinini cyane gikorerwamo ubuvuzi bw'amatungo, hari veterineri wabaze inka ndetse arimo arayipima ngo arebe ko nta kibazo ifite kugira ngo abaturage babashe kugura inyama kandi zimeze neza.

Icyumba kinini cyane kirimo abagabo batatu, babiri bambaye imyenda y'umweru, undi na we yambaye umupira w'umukara, baricaye bigaragara ko hari inyamaswa barimo baravura kandi bari kuyitaho kugira ngo ibashe kugira ubuzima.

Abantu babiri, umwe aricaye ndetse yambaye amarinete kandi hari undi uhagaze wambaye bote z'umweru, bigaragare ko ari abaveterineri, bahabaze inka, barimo barareba niba nta kibazo ifite.

Abaveterineri babiri bambaye ibisarubeti by'ubururu, umwe yambaye bote, bambaye ga mu ntoki barimo barabyaza inka kugira ngo itaza kugira ikibazo igapfa.

Ahantu hari inka ziri ahantu hafunganye kandi zifite amahembe maremare. Hari aba veterineri babiri umwe yambaye igisarubeti cy'ubururu undi nawe yambaye igisarubeti k'icyatsi ndetse bose bambaye bote z'umukara bigaragara ko bari kuzivura.

Urugo runini cyane rurimo inka yabyaye gusa irimo irafashwa na veterineri, aho iyo inka igeze igihe cyo kubyara bitabaza umuntu wabyigiye kugira ngo aze ayifashe itaza kuba yahura n'ikibazo.

Abantu batatu bari ahantu hakunze gukingirwa inka hari umugabo wambaye taburiya y'umweru afite nibyoyifashisha ari kuvura inka mu ntoki kandi inyuma ye hari undi wambaye isarubeti y'ubururu iruhande rwe kandi hari undi mugabo wegamye kuti.

Ikiraro kinini cyane kirimo inka ebyiri ndetse harimo n'ibyatsi, harimo inka y'umweru ndetse n'umukara, umuntu yorora inka kugira ngo zibashe kumuha amafaranga kandi zitanga n'umukamo ndetse n'ifumbire.

Ikiraro kinini cyane kirimo amatungo, iruhande rwacyo hari umugabo wambaye agapfukamunwa n'igisarubiti cy'ubururu, afite umuti ndetse na selenge, bigaragare ko agiye kuvura itungo kugira ngo ribashe kumera neza.

Umugabo uri mu cyumba wambaye itaburiya y'umweru ndetse afite ikaramu mu mufuka w'itaburiya, afite kandi na none umuti arimo arawusuzuma bigaragare ko ari veterineri, ari kuwitegereza kugira ngo awuhe itungo ritaza gupfa.

Ishyamba riri ahantu heza cyane harimo inyamaswa zitandukanye harimo intare, ingwe, isumbashyamba ndetse n'inzovu, ikindi kandi harimo n'ibitera, aho abakerarugendo baza kubireba, bakabasha kwishyura amadovize.

Ishyamba rinini cyane ririmo inyamaswa zitandukanye by'umwihariko harimo inzovu, hari n'imodoka y'abakerarugendo barimo barafotora, aho baza kureba inyamaswa maze ubundi bakadusigira amadovize tukabasha kwiteza imbere.

Inyamaswa nini cyane y'inzovu ifite amenyo abiri maremare ndetse ifite n'amatwi manini iri mu mukenke aho iyi nyamaswa iyo imeze neza bakerarugendo baza kuyireba maze ikadufasha kwinjiza amadovize tukabasha kwiteza imbere.

Ishyamba rinini cyane ririmo inyamaswa z'ubwoko butandukanye by'umwihariko inzovu, ahangaga abakerarugendo baraza ndetse bagasura izo nyamaswa bakabasha kudusikera amadovize.

Ishyamba rinini cyane ririmo inyamaswa z'ubwoko bwose aho iri shyamba rifasha abakerarugendo kuza gusura inyamaswa kandi bagasiga amafaranga y'amadovize bakabasha guteza imbere igihugu.

Ishyamba rinini cyane ririmo inyamaswa y'inkazi, harimo intare imeze neza kandi ubona ko nta mujinya ifite, aho ibi ngibi bikorwa kugira ngo abakerarugendo baze gusura inyamanswa, badusigire amafaranga y'amanyamahanga.

Ahantu hari inyamaswa zimeze neza ndetse hari n'abakerarugendo baje kuzireba, aho baza kuzisura ndetse bakadusigira amafaranga y'amadovize kugira ngo tubashe kwiteza imbere.

Ahantu mu ishyamba hari intare nyinshi cyane kandi zifungiranye, kuko aho ziri harazitiwe na senyenge, bigaragara ko ari aho bazizana kugira ngo abakerarugendo bajye baza kuzisura batange amafaranga.